Amagambo yanditse ku ibara ry'ubururu, amenshi asa umweru harimo n'ay'ubururu, hepfo harimo akandi kantu k' umutuku kerekana ko ari mesaje boherereje umuntu, handitsemo andi, hepfo kandi hari aho ushobora gusanga ibyo bintu cyangwa se urubuga wabarizaho nimero za terefoni n'ibindi.

Telefoni zigera kuri eshatu zigerekeranye ziteretse ahantu hari mashine iriho n'insinga, hariho izifite ibara ry'umweru ari ebyiri n’indi iri hagati y'umukara, inyuma poshete handitseho amagambo y'umweru n'akandi kantu gasoza kari mu ibara ry'icyatsi.

Icyapa bakunda kwamamarizaho cyane, kiri hagati mu muhanda. Hirya hariho ibyatsi cyangwa se ibiti binini, hejuru handitseho amagambo y'umweru; hashushanyijeho akamodoka k'umutuku, n'indi mibare mirongo ine na gatanu.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru ushyize ibintu mu matwi wambaye amarinete, imbere ye hari umumama uteruye akana kambaye akenda gasa iroza n'umugabo ubahagaze hejuru, inyuma yabo hari amarido y'ubururu, amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu mu nsi hari ak'umutuku no hepfo hari andi ameze nkayo.

Telefone iri mu ibara ry'umukara mo imbere hejuru harihoho isaha igihe igereyeho mesaje zoherejwe, hirya hariho aho umuriro ugeze ndetse na simu kadi iri kuri rezo, munsi hari akantu kerekana gusubira inyuma handitseho amagambo y'umweru hepfo n'uturongo tugera kuri tune dutambitse.

Telefone yinjiye muri apurikasiyo imwe hejuru hariho akabara k'ubururu ndetse hariho magambo y'umweru hari n'gafureshe kerekana amerekezo y'ibumoso, hepfo hariho ubururu bwijimye cyane buho utuntu twa x twinshi, hirya hari y'indi mibare igera kuri ine, hepfo kandi hari aho umuntu ashobora gushyira imyirondoro n'akandi kerekana gukomeza.

Telefone yinjira muri aplication imwe hejuru hariho amasaha bikoreweho ama message yohererejwe umuriro urimo ndetse akaranga ntego kagaragaza idatapo ry'u rwanda kandi kerekana gusacinga cyangwa se akazogera n'akandi kadarapo gato cyane kari munsi yiryu rwanda amagambo yanditsemo y,umweru menshi aho umuntu ashobora gusiga amazina ye cyangwa paswod ye umubare w'ibanga akandi kantu kakabara ka orange kari mu.

Telefone uriho hejuru isaha biri gukorerwaho hepfo hariho udushushanyo twinshi hari agatima, ikiganza kizamuye igikumwe n'ikindi kimanuye hasi, n'utundi tuntu twanditse akabazo se cyangwa agatangararo.

Poner muri application imwe hari ibara ry'icyatsi n'iry'umweru bari kwerekana ibyiza aplication hejuru y isaha iri gukorerwa ndetse nahoho umurigeze munsi harihandi hantu ushobora gusacega ibi bintu ushaka kurebat handitse ngo Home udufreshi tubiri akareba iburyo nakareba ibumoso.

Apulikasiyo imwe iri muri telefoni harimo akabara k'icyatsi hejuru, amasaha se cyangwa amatariki byakoreweho, amagambo y'umweru yanditseho, munsi hariho utundi dushushanyo tugera kuri tune, harimo ak'inzu, aka telefoni, k'umuntu uhagaze, cyangwa se akandi kerekana amerekezo y'iburyo n'ay'ibumoso, inyuma hari amagambo agiye asobanuye buri kimwe.

Ibiganza bibiri by'umuntu bifashe telefoni y'umukara mu ntoki, mu imbere harimo irange ry'icyatsi hejuru ryanditseho amagambo y'umweru, munsi hari iry'umweru ryanditseho ay'umukara ndetse n'icyatsi, hepfo gato hari ahantu hari akantu k'icyatsi k'uturongo dutatu, hejuru hari ahandi herekana umuriro ugezemo, isaha ndetse n'ahantu ari gukoresha enterine.

Ahantu bacururiza imyenda, ku gikuta hari amabara atandukanye aya pinki, umweru n'ubururu, hari umumama uri gutanga ikarita, ufite n'agashakoshi k'agasakame mu ntoki, wambaye ishati y'icyatsi n'akantu k'umuhondo mo imbere, umugabo ufite imashini bari kwishyuriraho n'indi imuteretse iruhande ku meza, wambaye isaha, umupira w'umweru, imyenda iri aho ku meza n'agakapu kari ku ruhande, akabati kamanitseho imyenda.

Inkweto nyinshi zitonze ku murongo, ahantutu hari utuntu tugiye tuzifashe ku kintu cy'umukara, imbere hari akandi gakarito ka orange gateretseho urukweto rumwe, urundi rwarwo ruri hasi urwo hejuru rukaba ruberamye rureba hirya ibumoso.

Iduka ricuruza imyenda y'imbeho hakaba harimo amakaro y'umweru utubati tw'umukara duteretseho ibyo bakunze kwita ibimaneke byiganjemo imyenda ya oranje n'umukara, umweru harimo ikindi gitambitse amaguru hari n'ibyifashe mu mayunguyungo hari n'indi myenda hariho udupapuro tumwe twerekana ibiciro hejuru hari amatara.

Iguriro cyangwa ahantu bakorera ubucuruzi bw'imyenda hari amakaro meza, hari n'igipupe bakunze kwita ikimanike cyambaye umwenda y'ikanzu y'umweru, akabati kari ku ruhande kariho akabara ka pinki n'ak'umweru cyangwa se iroza, harimo imyenda y'amabara atandukanye n'inkweto, urugi rukinguye rw'ibirahure.

Ahantu hacururizwa imyenda y'abagabo ikubiyemo amakoti, hirya hakaba hari n'utundi tubati turimo itandukanye, hari utumanitseho amakoti arimo ay'ubururu, ay'umukara, ay'umweru ndetse n'ajya gusa ivu, hari n'akandi kantu kari hagati yayo gafashe utwuma.

Ahakorerwa ubucuruzi bwerekeranye n'imyenda cyangwa se imyambaro, hari ahantu hari ikirahure kiri hagaragaramo abantu batandukanye, hari umuguzi uri inyuma wambaye imyenda y'ubururu, n'abandi bari imbere bacuruza, abandi bari inyuma y'inkingi imanitseho cyangwa se ihagazeho igipupe cyambaye ikanzu idoze mu gitenge, ameza ari aho hafi hari utundi ducuruzwa dutoya ndetse n'indi myenda imanitse mu kabati.

Umu mama ugaragara nkaho atari umwirabura, wambaye ikintu cy'icyatsi inyuma, n'akandi ka oranje mo imbere, uri gukora muri mashine, cyangwa se iyo bakunze kwita laptop, iteretse ahantu hari utuntu twinshi inyuma, n'akamashini bakunze kwishyuriraho amafaranga, hirya ye hari umusore wambaye umupira w'umweru, w'amaboko maremare, uri kwandika ku rupapuro, ruteretse ku gikarito gisa kacye.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye n'inkweto. Amarinete, hamanitsemo imyenda yaba iy'abagabo, iy'abagore. Harimo imipira y'imbeho, dusengeri, amashati, amapantaro, inkweto zo gukorana cyangwa se rinete umuntu ashobora kwambara. Ariko hagiye hariho udupapuro tugaragaza ibiciro byazo ku tubati tw'umukara, ndetse harimo n'amatara.

Umuhanda w'itaka, igipangu cy'umweru gisa nk'icyanduye hasi, igiti kiraho kinini icyapa cyanditseho amagambo y'umukara ndetse hejuru hariho akandi kantu kavuga ngo kati hirya hariho igipangu kijya gusa beje gitangirijwe hejuru n'udusenyenge.

Igikamyo kinini cyane cy'umweru hasi hariho uturongo tw'umuhondo tubiri imbere hahagazeho abagabo batatu harimo n'umuzungu umwe yahagaze hano mumapavemen n'ibyatsi bakaba bambaye imipira ndetse n'uwambaye ishati bafite utuntu tw'umutuku mu ntoki zabo tutw'anverope n'ikiranganego kimeze nk'urufunguzo cyanditseho amagambo

Imodoka ifite irangi ry'umweru n'umukara. Ihagaze ahantu mu mapave. Hari n'igipangu cy'ututafari dutoya. Kiriho utugiriyaje tw'amadirishya. Imbere yaho hahagaze abagabo babiri. Umwe ufite agakapu k'umutuku bafashe ku cyapa kimeze nk'urufunguzo rwanditseho amagambo y'umukara.

Imodoka iparitse ahantu hari uturongo tw'umweru hasi, tuyerekana aho umuntu agomba gutereka imodoka ye. Ifite irangi ry'umukara ahari kujya plate handitseho amagambo. Hejuru yayo hari andi agaragaza umwaka, iyo modoka uko yitwa, igiciro cyayo munsi.

Imashini imwe hejuru hari akantu k'ubururu kanditsemo amagambo hejuru manini n'amatoya agaragaza imibare ijana, munsi hariho utuntu tugera kuri dutanu tw'icyatsi, akubururu, ak'umukara, n'amagambo yanditse hepfo yaho gato, inoti ziri munsi zifungishije udufimbo twa pink, tw'icyatsi n'utw'umuhondo.

Ibiceri bibiri by’amafaranga by’amabara y’umukara, hejuru hari igishushanyijeho mirongo itanu munsi mu magambo abisobanura n'akandi karangantego, akandi gashami kari ku ruhande rwaho gato, hepfo hariho ikindi gishushanyijeho ikintu kimeze nk'ishaka handitseho amagambo azengurutse.

Isahane cyangwa se iyo dukunze kwita iparato y'icyuma iteretsa ku meza, hariho isambusa cyangwa se biraraha, hirya hariho n'izindi ziteretse ku meza, izigaraga imbere zisa n'izagiye mu mavuta zashiririyeho n'inyuma.

Abakinnyi kirimo amakara y'umweru harimo ibintu byinshi bitandukanye n'icyuma bakunze gushyiramo amata umukobwa ahagaze wambaye agakabutura ka pinki, inkweto zifunze, umupira w'umweru, baga mu mugongo, na terefoni mu ntoki imbere hari ibintu byinshi byometse ku gikuta n'umutaka wa eyateri uri hirya, ameza manini ateretseho ikayi ya rojitiri, igare riparitse mu muryango ufite urugi rwa shokora n'intebe iri inyuma y'amezi.

Umukobwa wegamye ku meza y'umukara, Inyuma ye hari amakaro y'umweru, ikindi cyuma kihateretse usutse ibintu yafunze, wambaye umupira w'imbeho n'amaherena, imbere ye hari ikindi kiganza cy'umuntu hagaragara urwara rumwe.

Umugabo n'umugore bicaye imbere y'ameza ariho utuntu dutatseho tw'umukara n'umweru, hariho udusoro tubiri, igikombe kimwe cy'amata, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ko hacuruzwa amata, hirya hari akabati k'umweru karimo ibindi bicuruzwa bitandukanye n'indabo zirimo amandazi n'undi mugabo uri gutereka icyo gikombe kuri ayo meza.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro ijya gusa nk'ivu uhagaze ahantu ku makaro imbere ye hari akamezagasa ibara rya shokora, inyuma ye hari intebe yuubururu n'icyuma gitanga amata bakunze kwita ku cyuma, firigo seyanditseho amagambo nk'ayari ku cyuma, umukobwa wicaye hafi wambaye ishati ya karokaro n'akabati kari inyuma ye karimo ibinyobwa bitandukanye.

Icyumba kimwe kirimo amakaro y'umweru ndetse n'amadirishya hari insinga z'amashanyarazi hari naho wacometse ndetse hateretsemo ibigega bibiri cyangwa se ibindi bintu by'ibyumabiri bikusanyirizwamo amata harimo n'igifite aho bafungurira kugira ngo bayavome igihe ari ikimashini gifite ibara ry'umukara n'umweru.

Kantine irimo n'icyuma cy'amata aho bayacururiza, cyanditseho amagambo y'umweru Mukamira, ashushanyijeho n'ibindi bintu hari utubati dutandukanye tw'amabara y'umweru, turimo amazi na seriviyete, ku ruhande hari firigo irimo fanta n'amaji.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi, bw'ibintu byoroheje, hakuyemo amata ndetse n'ibibyo kurisha, hanze hari akabati k'umutuku karimo ibintu bitandukanye, utukarito tw'amata ya Mukamira, cyangwa se uducupa imbere harimo amabara yiganjemo umwe n'ubururu, haba ku ntebe ku makaro ndetse no ku gikuta, hari na firigo iraho hafi, ishushanyijeho igikombe kiri gusukwamo amata, n'akandi gateretse amateremonsi n'umugabo uhagaze mu muryango.

Ibiganza by'umuntu ugaragara nkaho ari iby'umugore kuko asize verini ijya gusa umutuku, afite terefone mu ntoki iri mu ibara ry'umuhondo, hashushanyijemo akarangagantego gasa nka sa wambaye imyenda y'ubururu ndetse wambaye n'akandi gakomo k'icyuma.

Akazu kiganjemo ibara ry'umuhondo, haba mu magambo cyangwa se hasi yako hejuru mu cyapa hari ibara ry'umukara. Hariho insinga hejuru zinyuranyemo, ndetse n'igicucu cyazo kigaragara aha izuba. Abantu benshi basa nk'abategereje kwinjira muri ako kazizu ngo bahabwe serivisi. Nyuma hari n'uwambaye ingofero y'umukara n'umupira w'umweru.

Ikiganza cy'umuntu gifashe telefoni mu ntoki, higanjemo ibara ry'umweru, harimo amafaranga harimo n'ahanditse amagambo atandukanye. Hejuru hakaba hari akamenyetso kagaragaza ko amafaranga ari amadolari, munsi hari akamenyetso kagaragaza v mu kaziga k'icyatsi, utuntu twinshi twa Atugiye turimo n'ahandi handitse amagambo.

Ikiganza cy'umuntu ufashe telefoni mu ntoki irimo ibara ry'umuhondo n'ubururu, umweru; handitsemo amagambo menshi atandukanye ndetse hariho n'utundi duterefoni dutatu twahashushanyije; hariho utwerekana amerekezo yo hasi n'aya ruguru, akandi kariho telefoni, akandi karimo ibara rya pink.

Amagambo aba ari mu ibara ry'umutuku ndetse nari mu ibara ry'umukara agaragazaho n'akamenyetso ka eyateri, munsi hashushanyijeho telefoni iriho akantu k'umukara kayikije akabara ka orange hejuru kanditsemo isaha birikubera, ubutumwa yohererejwe, umuriro ndetse na iterinete, hepfo handitseho amagambo ku kandi kantu k'akazu.

Mu ibara ry'umweru higanjemo amagambo y'umukara, hejuru habanza hariho akaziga k'icyatsi karimo akantu kagaragaza vi k'umweru, munsi hari ahagaragaza amafaranga, amazina y'umuntu se, nimero cyangwa se bizinesi umuntu akora, hepfo hakaba hari n'andi mafaranga ndetse y'amongereza.

Umumama wambaye ishati y'umweru ufite telefone mu ntoki mu biganza bye bibiri n'isaha y'umukara, rinete ndetse hejuru handitseho amagambo atandukanye hari nagaragaza ikirangantego cy'izuba munsi harimo n'andi mu ibara ry'ubururu n'andi agaragaza wesitani yuniyono hepfo hariho nimero za telefone kuri tuwita, kuri fesibuke, kuri yutubi cyangwa se ku isi hose.

Urupapuro rw'umweru cyangwa se inyemezabwishyu, hirya hari akaranganego k'u Rwanda kariho ingabo ku mpande, hari amagambo ahasobanura uburyo bwako, ku rundi ruhande hariho akandi kagaragaza ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Agapapuro k'umweru kanditseho amagambo menshi, hariho utumenyetso twinshi dutandukanye, ahabanza hakaba hari akarangantego kagaragaza. Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, hepfo hari akandi kantu kagaragaza Senateri cyangwa kashe batera urwo rupapuro.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo menshi hejuru hari akazu kabanza gashushanyije karimo andi menshi cyane hirya hari ak'umutuku kandiditsemo amagambo agera kuri ane, hejuru yako hari akandi k'umweru munsi hari ayabanziriza y'umukara harimo n'ay'umutuku munsi akandi karongo katambitse karimo untu tugiye dutandukanye tw'ibyiciro.

inoti y'amafaranga iriho inyubako zigeretse rimwe cyangwa se izindi zigeretse gatatu hejuru hariho akadarapo k'icyatsi n'ak'umweru hagati hejuru handitseho amagambo agaragaza icyo gihugu iyo note ivamo cyangwa se iyo nzu iherereyemo hirya hariho andi amababi agaragaza nkahari ikintu hasi hashushanyijeho amafaranga uko angana

Umugabo ufite inote z'amafaranga mu ntoki, harimo ayiganjemo ibi ibara bya pinki ndetse n'andi yiganjemo ibara ry'umweru, igaragaza ko ari magana atanu, wambaye impeta ku kiganza k'ibumoso ndetse wambaye isaha ku kindi k'iburyo, inyuma ye hari idirishya ririmo ikirahure.

Ibiceri byinshi harimo n'iby'ijana biteretse ahongaho ku kintu cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umukara n'indi note makumyabiri yiganjemo ibara ry'icyatsi, akamashini karimo imibare n'utundi duceri dutoya ibindi bisa nk'umweru, akamashini kariho akantu kajya gusaba orange.

Ibiganza by'umuntu cyangwa se amaboko bifashe amafaranga mu ntoki harifashe inote zigera kuri enye zitandukanye hari n'ikindi gifashe ku zindi zifunze na fimbo cyangwa se akandi kantu k'umweru gafata amafaranga hiryariye izindi na nonene zitondetse zirohe hejuru akabara kajya gusa move.

Inoti z'amafaranga zitondekanyije ku murongo harimo iz' amabara yiganjemo ubururu, ahashushanyije uko angana harimo ay'umukara y'umutuku se, munsi harimo n'andi mabara atandukanye ajya gusa nk'iroza, hari magana atanu igihumbi ijana haruguru hariho n'indi yanditseho rimwe ahantu h'umukara zirambitse.

Ibiganza bibiri by'umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'ubururu, bifite amafaranga, inoti mu ntoki ziganjemo ibara ry'umukara, harimo n'utundi tw'icyatsi, ashushanyijeho umugabo, ufite imisatsi y'umweru n'izindi ziri hasi zigiye zitandukanye zirimo amabara ya move, ay'ubururu se, umuhondo bigiye bitandukanye.

Mu ibara ry'ubururu higanjemo ibihugu byinshi bitandukanye amazina yabo n'utudalapa turi imbere hirya hari umubare wa rimwe ndetse amafaranga hirya agaragaza uko avunjwa igihe bitandunye, haba mu gihugu kimwe cyangwa mu kindi uko angana mu gihe cyaho.

Ikiganza cy'umuntu uhagaze ahantu ku makaro harimo n'andi y'amabara y'umukara ufite inoti zigera kuri esheshatu mu ntoki ze hakaba hariho ayo mafaranga uko angana ari magana atanu n'ayo mafaranga mu gihugu cyayo hepfo handitseho nimero ya buri note itandukanye n'indi.

Akazu bakoreramo ubucuruzi hejuru kanditseho amagambo y'umukara, agaragaza ibyo bakora cyangwa se aho ushobora kubasanga igihe utabona ngaho, hepfo handitseho amagambo y'umweru ibyiciro bitatu, hagati, ku mpande ebyiri, hasi kandi hari amabara y'umuhondo ashushanyijeho utundi tugambo tw'umukara, munsi harimo serivise zitangirwa aho ngaho.

Kimwe kirimo amakaro meza y'umweru bacanmo n'amatara ari butuzubaka afite ibara ry'ubururu kandi gafite ibara ry'umutuku, imbere harimo umugabo uhagaze wambaye ishati y'ubururu imbere ye kandi hari undi ufite ibikapu bibiri, ivalizi n'ikindi cy'umukara wambaye umupira wa oranje rukikora mu mufuka, hirya undi muntu wambaye imyenda y'umweru iza kwinjira mu kandi kanzu.

Amazu y'ubucuruzi imbere yayo n'impande hari amamoto abiri aparitse n'indi iri kuza. Inyuma hari imodoka, hari ibyapa byinshi bitandukanye byanditseho amagambo menshi n'amafoto. Hari ikiriho cy'icyatsi cyanditseho amagambo y'icyarabu agaragaza ko bahavunjira; munsi hari n'andi y'icyongereza. Hirya hari ikindi gishushanyijeho telefoni. Munsi hari ikindi cyanditseho wesitani yuniyoni.

Ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye byiganjemo ibyo kuvunja amafaranga yo mu bindi bihugu, ku ruhande rw'umuryango iburyo hariho utudarapo tw'igihugu, hari ibitandukanye Ubwongereza, Amerika se, hepfo hariho n'ibindi na nimero igaragaza uwo muryango ni kangahe iburyo bwabo.

Akazu kamwe gatangizwemo serivisi hejuru handitseho amagambo ay'ubururu n'umutuku icyatsi agaragaza izo serivisi zakorerwa munsi hari icyapa noneho kigaragaza detaye zaho zose harimo umuntu wicayemo imbere wambaye ipantaro y'ikoboyi urugi rukinguye n'indi vase iteretsemo aho ngaho ku ruhande rw'iburyo igiti kinini.

ibiganza by'abantu babiri bitandukanye hagati hanyuzemo ikirahure hirya hari kimwe gifite amafaranga y'inote mu ntoki imwe yanditseho 20 munsi handitseho 50 n'ikindi kiri hino y'kirarahure gifite amafaranga ashushanyije maye hari uruziga.

umugabo wambaye umupira uriho amabara y'ubururu bwerurutse umukara n'umweru iruhande rwe hari ibyapa byinshi bitandukanye hari icyerekana ko hariho airtel n'ikindi kiriho mtn hari n'ikindi cyanditseho amagambo y'umukara hejuru yashushanyijeho agakarita ka afurika munsi hariho ibihugu bitandukanye n'ikindi kiriho ibihugu n'utudarapo twatwo n'amafaranga avunjwa

Akazu gateretse ahantu mu byatsi karimo amara agiye atandukanye umuhondo kiganjemo iry'ubururu umweru handitsemo amagambo y'umukara icyatsi cyangwa se oranje gakinguye idirishya hirya hari icyapa cy'umweru cyanditseho andi magambo hashushanyijeho uruziga rurimo akantu k'umweru gatambitsemo n'indi nyubako y'amatafari iri inyuma.

Ibikoresho bikunze kuba mu nzu cyangwa se muri saro, intebe, ameza hagati, utubati cyangwa se ibindi bintu bitandukanye nk'injerekani, ikintu cy'umutuku gifite n'imigozi ku mpande, inzugi, amadirishya biri aho bifite irange ry'umweru.

Ahantu bakora ibikoresho mu mmbaho bitandukanye, hari amakaro meza y'umweru, hari n'ibyo bakora intebe nziza cyane zifiteutuntu two hasi tuzifashe imbere cyangwa inyuma ziciyemo uturongo twinshi nahoho umuntu ashyira akaboko yicaye, inyuma hari ibindi bintu bisa n'ibikozwe mu mbaho, ndetse n'ibiri mu ibara ry'umweru.

Icyumba kimwe kirimo itapi ndetse n'utubati dutandukanye ku mpande, agasa shokora, igikuta gisa umweru, hari akarabo kamanitse mu ivaze karekare, intebe iteretse aho ifite uruhu ndetse harimo imisego minini, uwo kwica n'uwo kwegamaho.

Uruganda cyangwa se ahantu bakora ibikoresho bitandukanye, byiganjemo Ibirimo ibipoji amamoterala cyangwa se intebe, hanze hari intebe nyinshi z'amabara y'ubururu, z'amabara ajya gusa nk'ivu, ndetse n'icyatsi utubatI, amamatera, ndetse hejuru ku rugi hagaragaza ibihakorerwa n'intebe za palasitike hagati.

Icyumba kimwe dukunze kwita uruganiriro kirimo intebe nziza cyane bakunze kwita Amadiva, harimo amabara y'umweru, izisa shokora, ameza hagati n'akandi kasutabure inyuma, ibirahure biri aho hafi ndetse n'ahantu bazimiriza umuriro kuri kizimyamwoto.

Ibikoresho bikozwe mu mbaho harimo intebe ndetse ifatanye n'amezaza yazo biri ahantu hakorerwa ibindi bintu bitandukanye hirya akaba n'akabati kajya gusa nkabyo, ihema rihashinze, inyubako ifite udutafari dutoya, mu imbere haparitsemo imodoka n'izindi ndabyo ziteye aho hafi.

Ahantu hari amazi meza cyane afite irangi ry'ubururu hari utubuye tuhakikije ahantu hari ubusitani burimoindabyo indende n'ingufi, na ho hari utundi tubuye tw'umweru n'ubururu, intebe ziri hafi aho ebyiri, akapa k'umuhondo kariho akandi k'umutuku kanditseho n'amagambo, ahantu abantu bamanukira bagiye koga.

Hotel cyangwa se ahantu hari ubwiza nyaburanga umuntu ashobora gusohokera hari ubusitani bwiza cyane bwiganjemo ibyatsi biteyemo indabyo habi z'umweru n'izindi zirimo amabara hagati harimo akayira karimodepave cyangwasu ubuye basasa mu muhandaw'umukara n'umweru ahantu hasakaje amabati n'inkingi zifashe amabati intebe ziri munsi yamezaza hagati mu misego y'umukara nzindi nini cyane zirimorimo amabara y'umutuku

Ubusitani bwiza cyane, harimo ibyatsi, indabyo z'amoko atandukanye, umweru, iz'umuhondo n'iza move, hateretsemo ameza y'umukara akikijwe n'intebe zigera kuri enye, ahantu hazitije utwuma hejuru hariho utundi dusongoye, ahantu hasakaje ikindi cyuma giteretse muri ubwo busitani, inyuma yaho hari umuhanda hariho n'ikindi gipangu kiriho utubuye dutoya.

Inzu nziza cyane iagaragara nk'aho ari hoteli ya etaje, hasi hariho amatara meza acanye, hariho n'inkingi zigera kuri esheshatu, eshatu ukwazo n'izindi ukwazo z'umweru, zimanitseho ibitambaro bitandukanye bigaragaza nk'aho ari amadarapo, imbere y'iyo nzu hariho pisine n'amazi ari kududubiza hejuru.

Inzu nziza cyane igaragara nk'aho irimo amabara agiye atandukanye, harimo icyatsi, umweru, ubururu, imbere hicayemo abantu, ku meza hariho agatambaro k'umutuku, bashobora kuba bari kuganira ndetse na pisine irimo amazi meza cyane, udutebe turi ku ruhande rwayo tubiri, ibyatsi biteye ku mpande harimo ibirebire n'ibigufi.

Icyumba kimwe kirimo amakaro, hagiye harimo amabara ajya gusa umweru, ndetse n'ibindi bijya gusa beze, akabati gahagaze k'umukara ndetse n'ahantu bacomeka, harimo ikintu gicometse cy'umukara, intebe zihari ziriho impapuro ndetse n'ahandi hari ibipapuro bitandukanye n'imashini, ifoto imanitse aho hejuru.

Inyubako isa nk'ikorerwamo ibintu bitandukanye hatangirwamo serivisi ikinguye imiryango, winjira ureba intebe zitatse aho ngaho z'ubururu mo hagati harimo ubusitani, imbere hirya hari intebe z'umukara ndetse inyuma yaho hari abantu batanga serivisi, hejuru hari ibipirizo bitandukanye by'amabara nk'aya pinki n'ubururu, hejuru kandi ku cyapa handitseho amagambo y'aho hantu uko hitwa.

Akazu gafite irangi ry'umweru, gashushanyijeho ku rugi rwako umugabo uri guseka ugararamye, hariho amabara yandi y'umutuku, hejuru hariho icyapa kimanitseho cyanditseho amagambo anyuranye, ku ruhande rw'ibumoso hariho n'andi y'umukara agera kuri ane n'akandi kantu gafasha insinga z'amashanyarazi ku mabati, imbere y'umuryango hari amakaro y'umweru.

Ahantu hashushanyije intebe yanditseho amagambo mu kantu k'umutuku, inyuma yaho hari akantu k'umwe karimo indabyo, hirya hariho isaha n'amagambo y'umuhondo, umweru n'icyatsi munsi hari umukobwa wambaye ishati y'umukara wiyifashe ndetse ufite n'imisatsi y'umukara miremire.

Icyapa kiriho amagambo menshi atandukanye amanimero menshi umuntu ashobora kubahamagaraho cyangwa se aho umuntu ashobora kwabandikira ubutumwa; hepfo hashushanyijeho utuntu tugera kuri dutatu, haragashushanyijeho inzu irimo amabati y'umutuku n'andi mabara ku mpande, n'akandi gashushanyijeho yiganjemo amabara y'ubururu igeretse, ndetse n'indi igaragazamo imbere.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'akantu gashyiramo ikarita mu ijosi k'ubururu, imbere ye hari ibipapuro bitandukanye na mashine akoreraraho, hari abantu bamuhagaze iruhande, umwe ari kumwereka igipapuro, undi ari kumwereka telefoni, afite ikaramu mu ntoki n'agakayi kamuri iruhande, akabogisi k'umweru yegamyeho, abandi bantu bari hirya bahagaze ku makaro y'umweru n'undi wambaye umupira w'ubururu.

Amabara atatu agize idarapo ry'u Rwanda harimo n'izuba, akoze ikarita y'u Rwanda ari mu ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo y'umweru, hasi hariho akantu gashushanyije kameze nk'inuma, hejuru hari umukobwa ufite ikintu mu ntoki kigaragaza nk'aho ari umutako uririmo amabara abiri, hejuru handi hariho akandi kagaragaza ko ari banki.

Umukobwa wambaye agapira k'umweru, ijiri iri mu ibara rya orange n'ak'umutuku, n'ingofero ndetse n'isaha; uri kumwenyura impande ye handitse amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, y'ubururu hejuru hashushanyijeho ibindi bigaragaza ko ari banki, hepfo kandi hariho amagambo ari mu tuntu; akantu gatambitse k'ubururu n'akantu gatambitse k'icyatsi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bwijimye cyane, ufite ikaramu mu ntoki y'ubururu, ndetse n'impapuro ziteretse ku meza z'umweru ari kwandikaho, umu mama uri imbere y'ibirahure biri aho bifite akantu k'ubururu hagati, wambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru, ufite akantu k'ubururu hejuru ku ijosi, uri kubara amafaranga.

Habakorerwa ubucuruzi butandukanye mu isoko hagizwe n'amabati hejuru ndetse hasi hakaba hari ahandi hakikijwe n'utundi dutoya harimo abantu bacuruza, abagura ibicuruzwa se byiganjemo imyenda n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Avugako cyangwa azakorerwa ubucuruzi butandukanye, hari ahari imyumbati, hari n'amaronji, amaderina, hari abantu bari kubicuruza, bafite akamashini bishyiriraho mu ntoki, hejuru hari umutakako wamanitse ku nkingi y'umweru, wambaye agapira k'umutuku, uri guhereza umugozi ibyo yaguze, hari ahandi, hari abacuruzi batandukanye nk'abagore.

Isoko ririmo abacuruzi ndetse n'ibyo bacuruza abakiriya baguzi se, harimo ibintu bitandukanye yaba imboga, imbuto, hakaba hari amashu, inyanya, kokombure, shufurere, isenda, ibitunguru, miteja, karoti ndetse n'abandi bantu babigurisha.

Mu muhundo handitse amagambo atandukanye harimo n'imibare munsi hejuru haravuga ngo pay wivemomote munsira y'akabara k'umweru ndetsetse n'andi hepfo hariho imibare ishobora gukanda kugirango ngo bishyire na nimero cyangwa se kode ushobora kwishyuriraho.

Abantu b'ingeri zitandukanye, haba abagore n'abagabo bahagaze mu byatsi biri aho, hashinze uduhema tubiri, harimo agafite ibara ry'umuhondo, handitseho utugambo hejuru, kagaragaza ko ari aka MTN, akandi munsi k'ubururu, harimo abafite amarojisitire mu ntoki n'undi ufite icupa ry'amazi ry'umuhondo, usutse ibisuko, wambaye ikanzu y'ubururu n'abandi batandukanye bari munsi yaryo.

Ameza y'umukara ateretse ku makaro y'umweru hariho akantu k'akapfa k'umuhondo kanditseho kode se cyangwa nimero, akantu kagaragaza karakaye mtn, hejuru hari imibare umuntu akanda igihe agiye kwishyura cyangwa se kohereza amafaranga.

Umugabo cyabasa umusore ufite telefone mu ntoki asa nkaho ari kwandikamo imibare, hirya hari undi wicaye ufite ikintu mu ntoki uri kukirya, wambaye inkweto z'umukara hariho akantu k'umweru munsi, imbere ya buri wese yabo harimo ameza ajya gusa umuhondo ateretseho akantu k'ubururu, munsi harimo urukweto n'ahantu bacometse imigozi itandukanye, hariho n'ahacometse hatatu.

Ikiganza cy'umuntu gifashe agatelefone gatoya mu ntoki, kiganjemo ibara ry'ubururu haba inyuma ndetse'bere muri taburo, harimo inomero nyinshi yagiye yandika zibanjirijwe n'akanyenyeri, inyuma hariho urwego ku ruhande rundi hariho amakaziye cyangwa se amakesi bashyiramo amavide y'inzoga cyangwa ya fanta.

Akazu gakoreramo ubucuruzi bwerekeranye n'ibijyanye na interineti, cyangwa se amayinite gasi ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo, hejuru hariho ari mu kaziga k'ubururu agaragaza ko ari MTN n'andi agiye atandukanye yaba ari hasi n'ari hejuru mu Kinyarwanda cyangwa se mu Cyongereza, inyuma yako hahagaze abantu bagera kuri batanu, abamama babiri bari ku ruhande rw'iburyo, abandi bapapa batatu bari ku irw'ibumoso, imbere harimo umucuruzi ugakoreramo.

Akapa k'umuhondo kanditseho amagambo ay'umukara, munsi hariho akabara k'umweru, hashushanyijeho n'akazu karimo akamenyetso kagaragaza ko ari MTN, kamanitse ahantu ku cyuma gafashishijweho n'amashashi, hari ahantu handitseho amazina y'umucuruzi munsi hariho imibare umuntu akanda agiye kwishyura na kode yishyuriraho.

Akazu kiganjemo ibara ry'umuhondo, harimo n'utwuma ku madirishya yatwo afunguye, hejuru handitseho amagambo agaragara nkaho igifaransa, munsi hariho indi mibare ibanzirizwa n'akanyenyeri igasozwa n'urwego, hari abantu bahagaze imbere yako, harimo n'ufite insimburangingo agendera, mo imbere hicayemo umuntu wambaye umupira ujya gusa umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo, inzira y’abanyamaguru iriho n’abantu bashaka kwambuka cyangwa bari kugendaho. Agace gatoya karimo ibitaka byinshi gateretsemo akazu k’umuhondo, naho n’andi mabara y’ubururu yanditseho amagambo y’umweru. Umugabo uhagaze iruhande wambaye ipantaro koboyi n’ishati y’umweru. Indi nzu iri ku ruhande ifite utwuma tuyifashe tw’umweru.

Umuhungu cyangwa se umugabo wambaye umupira uri mu mabara agera kuri abiri rya shokora n'iry'umweru, uri mu kazu k'umuhondo ka Emutiyene imiryango yako ikinguye, ufite ikaramu y'uburu y'umuntu ari kwandika ku mpapuro, imbere ye hahagaze umukobwa ufashe ku note n'uwo muhungu akozeho, ndetse hirya hari indi nzu igereretse ya etaje ifite amabati ameze nk'amategura.

Umutaka munini uri mu ibara ry'umuhondo n'utundi tw'ubururu, amagambo y'umukara yanditseho hagati n'utundi tuzu tugiye dushushanyijemo ibintu bitandukanye, munsi yaho harimo umuhungu wambaye ijire yawo n'umupira w'ubururu n'umweru, uri kumwe n'undi mugabo wambaye amarinete, umupira w'umutuku ndetse hari indabo zibari iruhande n'ibiti biri inyuma yaho.

Akazu kubatse mu mabara y'umuhondo n'umutuku kagaragaza ko ari MTN, kanditseho amagambo hejuru ndetse n'akandi kantu gashushanyijeho kerekana ko hari interineti, munsi haririmo abantu bahagaze imbere, berekana ko hari gutangirwa serivisi, n'abari inyuma yako bazishaka, hirya hari ahandi bantu benshi bari kugenda mu nzira zitandukanye, hari n'umusekirite uhagaze iruhande rw'amarangururamajwi.

Abagabo babiri bahagaze ahantu ku bintu by'ibisima bashyira hejuru ya ruhurura, haparitse na moto ifite irange ry'umukara, inyuma hari ikintu cy'icyatsi gishushanyijeho akagabo kari kwiruka, umwe yambaye ishati y'icyatsi na kasike, undi yambaye iy'umweruru n'amapantaro ajya gusa move n'indi y'umukara, inyuma yabo hari igipangu ndetse n'umuhanda wa kaburimbo uhari.

Igikamyo kinini cyane, kirimo ibara ry'ubururu higanjemo iry'umuhondo, handitseho amagambo, haba hagati no hasi, ifite akantu k'umutuku n'umweru, ku ruhande rwako hasi hahakikije, iparitse ahantu, imbere yaho hari inzu ifite irangi ry'umuhondo, hepfo hariho icyapa cy'umweru cyanyanditseho amagambo agaragaza ibikorerwa aho, inyuma hariho akararo k'utwuma, n'abantu bagenda mu muhanda.

Igishushanyo cya telefoni, kiri ahantu hari ibara ry'ubururu n'iry'umweru, inyuma yaho hakaba hari utuntu tugera kuri dutatu tugaragaza apulikasiyo zitandukanye, cyangwa imbuga zitandukanye nashyira muri telefoni, mo imbere hakaba hashushanyijemo ibintu bitandukanye, haba imitako cyangwa se imyenda, n'ibikoresho bikozwe mu mbaho.

Ebyiri ziparitse ahantu hamwe zikoreye imizigo inyuma yaho harimo akafite ibara rya oranje, agafite umutuku n'umweru ndetse n'ahandi hari umuhondo, hagaragaza hashushanyijeho moto imwe, handitseho amagambo y'umutuku havuga ko pozi, hirya kandi hari ipoto ry'amashanyarazi, inyuma yaho hari ubusitani bw'ibiti binini biha ahandi harimo indabyo hasi.

Amazu atandukanye hari iri mu cyiciro cya mbere cy'inzu kibanza, harimo imyenda imanitse ku ibipupe hagaragara nk'aho bahakorera ubucuruzi bw'imyenda, iyo hasi yo hagati, imbere yaho haparitse imodoka isize irange ry'ubururu, ndetse n'amadirishya arimo atwuma tw'umweru, munsi berekana imbere yaho, hari utubati tumanitse indi myenda.

Umuhanda wa kaburimbo inzira y'abanyamaguru yegeranye n'umumotari uparitse hafi aho yambaye ipantaro y'umukara inkweto z'umweru umupira w'icyatsi usa nk'ikintu ahetse mu mugongo cyanditseho amagambo y'umweru kiro n'akandi kantu cyangwa se urundi rubuga umuntu ashobora gusikana n'icyapa kimuri imbere kiri mu busitani burimo indabyo ngufi n'inde.

Icyapa cy'umuhondo kiriho amagambo menshi atandukanye haba manini yo mu cyapa se cyangwa mu mukono ay'umukara n'ay'icyatsi munsi yashushanyijeho abantu benshi cyane hari abari guseka bambaye marinette hari abandi bafite bitandukanye mu ntoki zabo hari abitwaye uburyo butandukanye ndetse n'akantu gashushanyije hejuru bakoresha bari guhaha mu maduka akomeye.

Ya korale yikoreye ibintu inyuma byose bisa, abamotari bayicayeho hari abambaye amakasike y'umukara agera kuri atatu, undi akaba yambaye iy'umutuku; inyuma yabo hari akantu gacamo amazi ajya munsi muri ruhurura hariho akuma, imbere hari igikuta cy'umuhondo, harimo insina n'inyubako igeretse.

Agace k'ifoto kariho inyubako ifite amabati y'umutuku imbere hari ubusitani buri mavase ndetse n'imitako ibiri'ubunini buri ahantu hari intebe z'umutuku nmeza bikoze ruziga munsi hari amagambo y'umukara mu kantu k'umuhondo hepfo kandi hari aho ushobora kwinjira kuri urwo rubuga rwabo.

Inzu nziza cyane ya etaje igeretse 3 hariho utuntu tw'umweru turangiye ndetse yubakishije utubuye twa shokora hejuru hari amagambo ahanditse agaragaza uko ikodeshwa mu kwezi aho iherereye n'akadarapo k'icyo gihugu ndetse hasi hari ubusitani buri mu mavase amapave ahonga muri parikingi n'ibindi biteye.

Inyubako ifite amabara atandukanye harimo ubururu ndetse umweru, hariho umureko, itara n'indi nkingi ifashe imbere kuri saro, imbere yaho hari igipangu cy'umukara cyane, hari amapave arimo utubara dutandukanye tw'umukara, munsi hari ahanditse amagambo amwe agaragaza imodoka zishobora kwinjira muri icyo gipangu, hejuru hariho amafaranga umuntu ashobora kwishyura kugira ngo ayituremo.

Icyumba kimwe kirimo abantu babiri, umugabo n'umugore, bagaragara nk'aho atari umwirabura, harimo ibikoresho bitandukanye, intebe, ibintu bijyamo indabyo, utubati cyangwa se amatara ndetse n'ahandi hari inzugi z'ibirahure n'ahamalido.

Inzu ifite amakaro y'umweru n'ibindi byuma biyitangira hariho n'ibirahure, igiti giteye aho hafi, izuba ndetse n'indi nzu iri hepfo ifite irangi ry'umweru, igikuta kigizwe n'utubuye, amagambo yanditse munsi agaragaza aho iyo nzu iherereye nanditse hejuru agaragaza iki...

Inyubako igeretse cyangwa se etaje igaragaza ahantu muri koradoro, harimo amakaro ajya gusa kake, ahandi ku rukuta hari irangi ry'umweru ndetse n'ahandi hari inzugi, hakaba hasa shakora, amasikariye azamuka ajya hejuru, hari ibirahure ku madirishya ndetse n'utundi twuma tuhakikije.

Icyumba kimwe kirimo ibikoresho bitandukanye, hari naho batekera bakunze kwita mu gikoni, harimo utubati dutandukanye, aho bavomera se, gaze ndetse nahari imeza y'umweru, harihoho abantu bakoresha bahindura amasheni kuri televiziyo nini iri aho hafi, urugi rukinguye rwa shokora.

Etaje igeretse rimwe ifite ibara ry'umutuku, umuhondo, amadirishya ariho ak' ubururu n'ibirahure, imbere yaho hari ubusitani, hariho utubuyue tw'umuhondo n'u tw'umukara dukikijeho tureture, amapave ari mu ibara ry'umutuku n'iry'umweru ubundi burabyo bw'umweru ku hande rw'iburyo n'icyatsi.

Ibara ry'ubururu harimo amagambo y'umweru n'akandi karongo gatambitseho, ak'umukara gato cyane, karimo akantu kameze nk'ako bakoresha bari gushaka amagambo atandukanye muri telefoni cyangwa muri mashini, hirya hariho andi magambo ushobora gushaka, munsi hari ibara ry'umukara rinini cyane.

Iyi inyubako y'amabara atandukanye harimo umuhondo, mu rya pinki, ubururu harimo n'ibirahure na salo ifashwe n'inkingi, umuntu wunamye mu mapave yayo; harimo amabara atandukanye; y'umutuku, umukara ndetse n'umweru wambaye inkweto z'umutuk, umupira w'uburu n'ipantaro y'umuhondo injerekani iri hirya ndetse hasi hariho amagambo agaragaza ko iyo nzu ikodeshwa, aho iherereye n'amafaranga umuntu ashobora kwishyura.

Umuryango ufite ibirahure ndetse n'irindi bara rijya gusa nkivu, ukinguye uruhande rumwe, hejuru hakaba ariho utwenge barinda gushyiraho supaneti kugirango imibu itinjira, hejuru kandi handitseho amagambo y'umukara agaragaza ko iyo nzu ikodeshwa, uko ingana, cyangwa se aho wayisanga, inkingi ifite ibara rya shokora ifashe igisenge cyayo.

Inyubako nziza, bakunze kwita cadasiteri, ifite igipangu kiriho udutafari duto cyane, n'utundi twuma dutambitsemo hagati yatwo, hari senyenge hejuru zitangiriye, inyuma hakaba hari ahantu hari amapave, n'ibindi biti cyangwa se insina ziri hirya.

Inyubako igice kimwe cyayo kiriho idirishya n'amabati ameze nk'amategura y'ibara ry'umutuku, ibaraza ndetse no mo imbere hagaragaza aho batekera mu gikoni, hari utubati dutandukanye tw'amabara ya shokora hejuru harimo n'itara.

Ahantu hashashe utubuye tugiye tunyuranyuranyemo dufite ishusho isa inyubako iri aho hafi ifite amatafari cyangwa se amakaro y'umweru, hamanitseho ibyapa bitatu mu madirishya ndetse no ku muryango byanditseho amagambo atandukanye, ariko ku madirishya bikaba bisa, kuva mu muryango hakaba hariho n'akabara k'ubururu hejuru na nomero yabo.

Iduka bacururizamo imyenda rihagazemo ibipupe byambaye amakoti, harimo ibyambaye utujire, amashati y'umweru, amapantaro y'umukara, abandi bicaye hanze b'abacuruzi barimo uwambaye umupira w'umuhondo, ndetse n'uwambaye ikabutura y'icyatsi n'umupira w'umweru, utubati bigaragara ko ari nk'aho abantu bishyurira hasohotse n'ibishushanyo biri ku miryango yabo.

Iduka cyangwa se aho bakorera ubucuruzi mu nzu imwe, hamanitse ibintu bitandukanye mu tubati tw'umukara dupanze, harimo ibyo kunywa, ibyo kurya, ibiri mu mashashi, ibiri mu dukarito, hari amaji, hari amafanta ndetse n'ibindi bitandukanye, hari umuntu urimo ugendamo hagati, afite ikintu ashyiramo ibyo yaguze.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bwihariye cyangwa se ubucuruzi buhenze, hamanitse utubati twiza cyane tw'umweru tugiye turiho impande iburyo n'ibumoso, hari ahamanitseho utuntu tw'uducupa dutoya tw'umukara, umweru n'ubururu n'irindi bara rijya gusa iroza, hahagaze umuntu hagati ufite ikintu yashyizemo ibyo yahashye wambaye imyenda y'umukara, hirya hari ibintu by'ibyapa bihamanitse.

Inzira y'abanyamaguru irimo imanukamo umuntu wambaye ishati y'umweru n'ijipo y'umukara, yegereye inyubako nini cyane ya etage yanditseho amagambo abiri hejuru agaragaza cyangwa se yitirirwa iyo nzu, munsi hari inzu z'ubucuruzi, harimo ibintu bitandukanye bacuruza haba ibiri hanze cyangwa se mu nzu, n'amashami y'ibiti agiye ari aho hantu.

Inyubako imwe irimo amakaro y'umweru hagati muri yo harimo ay'umukarage atandukanye, harimo n'amata yacanye, hejuru hari ibipupe bigiye bikikije impande n'impande bihagaze ku bikuta byambaye imyenda igiye itandukanye harimo amapantaro, amakanzu cyangwa se imipira abantu bari kugenda hafi aho ndetse n'abacuruzi.

Iduka rimwe cyangwa isano hakorerwa ubucuruzi butandukanye hari icyapa cy'umweru kirimo akantu k'ubururu hagati ya lesanceri abantu bazamukiraho cyangwa se amaesikariye hejuru hakaba hagaragara ko hageretse hari izindi nyubako cyangwa se ibindi byumba n'utuma tuhatangiriye inkingi zifashe hejuru ameza agiye akikijwe n'udutebe turi hasi hari n'utundi tubara tw'umutu.

Ahantu bacururiza ibintu cyangwa se ibikoresho byo mu nzu, hari imeza ikikijwe n'intebe hari ikikijwe n' ebyiri, nindi ikikijwe iizindi zigera kuri eshatu, utubati dutandukanye turi mu mbaho, umuntu uhagaze hafi aho hejuru hari itara rigizwe n'uruziga n'akandi kantu karifashe.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye irimo abakozi bakoreramo harimo ibicuruzwa biteretse aho ku meza y'umutuku ihema riri hejuru rifashwe n'icyuma amatara acanye ibintu byerekana ibikorwa bahakorera inyuma ku cyapa hashushanyijeho n'umumama abandi bakiriya bahagaze imbere hari abambaye imyenda y'umukara.

Alimatasiyo irimo ibicuruzwa bitandukanye byinshi byiyinganje mu mifuka ibindi biri mu bipapuro, amabara y'ubururu n'umuhondo biri mu kabati k'umutuku, umukobwa afite ka kantu bashyiramo ibyo bahashye, hejuru ari icyapa yanditseho amagambo y'umweru agaragaza ko ari kuri resebusiyo.

Umugabo wambaye igikoti cy'imbeho n'umugore bunamye ahantu ku meza ariho igitambaro kiriho utubara tumeze nka karokaro, bari kwandika ku bipapuro, imbere yabo hari akantu kameze nka mituweli cyangwa ubwishingizi bwo kwivurizaho, hirya hari akabati karimo ibindi bipapuro, harimo iby'amabara asa nk'iroza, munsi hari n'andi ajya gusa umweru, agatelefoni kari aho ngaho ku meza n'ibindi bitandukanye.

Abantu benshi bicaye mu busitani n'abahagaze ahantu bitwikiriye imitaka bigaragara ko hariho izuba, abana bari gukina abandi bari kureba imbere, hari inzu nini cyane ifite n'amabati y'ubururu, inyuma yaho hari ibyatsi ndetse n'insina, icyapa kiri imbere hano cyanditseho amagambo agaragaza ko ikigo cy'ubwishingizi n'amagambo avuga ngo: "ejo heza."

Abantu benshi bicaye ahantu ku gitambaro kimwe, bafite udupapuro mu ntoki buri wese ndetse n'umwana, bambaye benshi abagabo ingofero, abamama bitandiye bagaragara nkaho ari abasilamu, inyuma yabo hakaba hari ikindi cyapa cyanditseho amagambo y'icyatsi.

Abagore n'umugabo bicaye ahantu hamwe ku ntebe z'imbaho ndende, bafite ibipapuro mu ntoki, hari n'ufite n'ishakoshi y'umukara, bitwikiriye, benshi muri bo hari n'undi ufite agakoni uhagaze inyuma yabo n'undi uri gutambuka wambaye umupira wa orange, ibikuta bibari iruhande bisizeho amabara biratandukanye n'aho bacanira amatara.

Abantu hakubiyemo abagabo abagore n'abana bicaye ahantu ku ntebe y'urubahu. Inyuma yaho ku gikuta hari utubuye dutoya. Hariho ibyapa byinshi bitandukanye icy'umuhondo, bigaragaza ko ari kwa muganga kuko hari akapa k'umweru kariho amagambo y'umukara kerekana n'amerekezo avuga ngo: "isuzumiro." Hari n'undi mu mama uhagaze imbere yabo ukenyeye igitenge wambaye n'agapira k'umweru.

Bicaye mu cyumba kimwe imbere ye hateretse ameza hariho telefoni n'agatambaro ku kiganjemo amabara y'ubururu n'umweru, bafite akandi gatabo mu ntoki kandi hariho amagambo agaragaza ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda, inyuma ye hari amarido ajya gusa umuhondo urugi rukinguye rw'umukara n'urundi rw'umweru ruriho utugiriyaje tw'umweru n'ikirahure, n'impapuro zimuri iruhande iburyo bwe.

Umugabo uhagaze mu byatsi, inyuma ye hari ibindi bigufi ndetse n'indabo z'umuhondo, hari igikuta kiriho udutafari twinshi cyane dukoze mu mabara atandukanye harimo n'akumweru gasizemo, ufite icyapa mu ntoki, kigaragaza ikirangantego cy'ubwishingizi mu Rwanda, cyanditseho amazina ye, umubare w'amafaranga agejejemo yizigama ndetse n'itariki byakorewe.

Utubati tw'umukara turiho ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibyo kunywa, hariho udukarito dushushanyijeho udupome dukaseho hirya hari amafanta, haba ari mu mavide hejuru n'ari mu mapalasitike hasi n'amafirigo ari hirya agera kuri abiri, harimo ibindi bicuruzwa byo kunywa n'amafanta cyangwa amaji.

Ahakorerwa ubucuruzi hari ha amaka y'umwe ndetse n'umukara, utumeza tugiye dusize irangi rya oranje, intebe hafi aho, abantu bahagaze hari bambaye umupira wa oranje, amamashini ndetse n'ibindi byapa bimanitse hejuru y'ibicuruzwa biri mu tubati.

Iduka rimwe cyangwa se ahantu bacururiza, harimo amakararo meza y'umweru. Igikuta kiriho udutafari dusize irange, amafirigo ndetse n'utundi tubati dutandukanye. Tugiye turimo ibicuruzwa, ibyiganjemo amaji cyangwa se ibyo kunywa. Hakaba hari n'akandi kagiye karimo amasabune bakoresha, haba mu matuwarete cyangwa umukozi.

Iduka rimwe ricuruza ibintu bitandukanye, haba ibibwa cyangwa se ibinyobwa, utubati twiza tugiye dutatsemo n'udutara ku mpande, cyangwa se ahantu hari ibiciro, hari ahantu hari ibyo kunywa hejuru mu mabara y'icyatsi, aya oranje n'ay'umuhondo, munsi hakaba higanjemo amabara y'umukara, ku rundi ruhande hariho ibintu byiganjemo udufuniko tw'icyatsi, mo imbere harimo ibyo kunywa bya oranje.

Iduka rikorerwamo ubucuruzi ririmo amafirigo atandukanye, hejuru hariho amabara irya pink cyangwa se irisa iroza, kuruhande hariho aka move, icyatsi n'iry'ubururu, harimo ibicuruzwa byo kunywa bitandukanye hari; amaji, amazi se, amayahurute, ndetse n'utundi tubati tw'umukara turiho ibindi bitandukanye.

Alimantasiyo irimo bicuruzwa bitandukanye byiganjemo imbuto, hejuru hariho amapome, hasi hariho izindi mboga iz'indimu ndetse insenda, karoti, amashu, tangawize, hejuru hakaba hari icyapa cyerekana ko ibyo bicuruzwa bihacururizwa, umumama wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'ubururu, bari gukoramo amasuku.

Iduka cyangwa se isoko ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo akabati gatonzeho ibintu byinshi haba ibyo kurya, ibyo kunywa, ibirungo se cyangwa amazi n'ibindi bitandukanye, higanjemo amabara y'umutuku, ay'umuhondo, ay'icyatsi, hakaba harimo n'amamayonezi afite ibishishwa cg se ibipapuro byometseho by'umuhondo, hejuru hariho inkingi zifashe ku nzu n'amatara acanye.

Ahantu hamwe bacururiza imyenda, hari umugabo wambaye jezi cyangwa se umupira bakorana siporo n'ingofero, ufite akagare karimo ivalisi cyangwa igikapu batwaramo imyenda n'ikindi kiri hejuru kirimo ikintu biyorosa, hirya hari utubati tundi turimo ibyo ibishashi, inyuma ye hakaba hahagaze igipope cyambaye utwenda tw'imbere, imbere ye kandi hakaba hahagaze undi muntu wambaye imyenda yiganjemo umukara.